Hamwe na Radiant, ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, cyabazaniye ibikorwa byiza byo kubafasha mu kubona kwizigamira cyangwa ibindi bikorwa byose mu bworozi bwawe, aho bagufasha mu gihe inka yawe yaba igize ikibazo igapfa bakakugoboka mu kubona indi.

Bimwe mu bigo by'ubwishingizi bikorera mu Rwanda, bigira uruhare runini mu iterambere ry'u Rwanda, kubera ko bitanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo, ndetse no gufasha abaturarwanda muri rusange.

Bakiri bacu, muri ino minsi twabazaniye ubwishingizi ubwo ari bwo bwose wifuza. Niba warubatse inzu yawe uyikunze, ni byiza ko wayizana ukayishinganisha kugira ngo haramutse habaye umutingito tuzongere tugufashe mu kuyisana.

Muri iki gihe biroroshye cyane kuba wabona ubwishingizi cyangwa asiranse ihagararira ikinyabiziga cyawe. Rero ni byiza ko ushyira iyo modoka yawe mu maboko yabo kugira ngo bagufashe mu gihe waba ugize ikibazo runaka.

Biroroshye cyane hamwe na Radiyanti kuba baguha ubwishingizi bw'ubuzima bwawe bugufasha kwivuza buri ndwara yose uko yaba imeze wabona ubuvuzi bwayo aho waba uri hose.

Ramba na Buritamu babazaniye ubwishingizi bworoshye cyane ku bicuruzwa byawe, ku nzu yawe, ku modoka ndetse n'ibindi byinshi cyane, rero wabagana bakabigufashamo mu gihe cyihuse kandi gito.

Ubu biroroshye cyane hamwe na banki z'amoko yose, ushobora gufungura akawunti muri terefone yawe ukazajya usura uko konte yawe ihagaze buri munsi buri munsi bidasabye ko ugera ku cyicaro cy'aho ikorera.

Ubu muri iki gihe tekinoloji n'ikoranabuhanga ryarabyoroheje, kuko amafaranga yawe ushobora kuyabitsa wiyicariye mu rugo iwawe mu buryo bwihuse cyane kandi nta kiguzi kinini bigusabye kandi wanayabikura.

Ubu mu gihugu cy'u Rwanda byaroroshye cyane rwose kuba wagenzura ibikorwa byose bikorerwa kuri konti yawe ya banki wibereye mu rugo ukoresheje telefoni. Niba rero nta ubyifuza wajya muri kureyisitowa cyangwa apusitowa ukadawunirodinga.

Muri ino minsi mu kinyejana tugezemo biroroshye cyane kuba wacunga uko banki yawe ihagaze wifashishije telefoni, hari amapurikasiyo menshi abikora kandi mu buryo bwihuse, ukaba wabitse ukanabikuza wibereye mu rugo iwawe.

Muri iki gihe amabanki menshi yarabyoroheje, aho ushobora kugenzura uko konti yawe ihagaze, kubitsa no kubikuza ndetse n'ibindi bikorwa byinshi byawe kuri terefone yawe ngendanwa bidasabye kugera aho bakorera.

Biroroshye cyane hamwe na apurikasiyo zitandukanye, ushobora kuba wakohereza amafaranga haba hagati mu gihugu, cyangwa se hanze y'igihugu, niba nawe ubikeneye bikore mu buryo bwihuse, kandi bubangutse.

Hamwe na banki zitandukanye z'ubwoko bwose, ubu nawe wagenzura uko konti yawe ihagaze wibereye mu rugo hamwe na apurikasiyo ushyira muri telefone, rero ntibikiri ngombwa ko ugerayo wabyikorera wibereye iwawe.

Ubucuruzi bw'imyenda, ipantaro, amashati, inkweto, ibikapu ndetse n'ibindi. Ni bimwe mu bigira uruhare cyane mu iterambere ry'umuntu ku giti cye kuko abonamo inyungu zimufasha kwiyubaha.

Ubu mu gihugu cy'u Rwanda hari amabotike menshi acuruza ibintu ibyo ari byo byose. Rero ni byiza mu gihe ubikora, gutanga inyemezabwishyu EBM yemewe n'amategeko, kuko iyo utayitanze uhanwa.

Amabotiki ni hamwe mu hantu h'ingenzi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko baduha imyenda yo kwambara, ibikapu byo kwitwaza ndetse n'inkweto, rero kandi bagira n'uruhare runini mu iterambere mu buryo bwo gutanga imisoro.

Ubucuruzi bw'ibitenge, ni kamwe mu kazi gateza imbere abagakora, kuko bitanga inyungu nyinshi cyane, kandi bikongera n'iterambere ry'igihugu, kuko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo.

Ubucuruzi bw'imyenda ni bimwe mu bikorwa bikorwa n'abantu benshi cyane kandi bikagira uruhare runini mu iterambere ry'Igihugu, kubera ko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi bintu by'ingenzi.

Butike, zimwe mu ziri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda zifite uruhare runini mu iterambere, kubera ko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo no gufasha imfubyi ndetse n'abatishoboye.

Ibipupe ndetse n'ibindi bikinisho, ni bimwe mu bikoreshwa bikundwa n'abana cyane cyane abakiri bato cyane, rero niba ushaka ko abawe bishima, karibu ngwino tuguhe ibibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi no mu mikurire.

Ubu mu gihugu cy'u Rwanda byaroroshye cyane kuba wakora hagati yo kugura no kugurisha n'umuzungu cyangwa se undi muntu wese ukomoka mu kindi gihugu, kuko indimi zarabyoroheje, ni ukugenda ukiga muri Action Driving ukahava wabimenye.

Ubu hamwe na Akagera motor, biroroshye cyane kuba wabona imodoka y'inzozi zawe, bagurisha, bakanakodesha ibijyanye n'ibinyabiziga byose, niba ukifuza rero wahagera bakagufasha mu buryo bwihuse, ni karibu.

Mu biro byawe ukoreramo, ni byiza cyane kugira amazi meza kandi asukuye y'Inyange, kuko bakugezaho ibicuruzwa byiza cyane kandi byizewe mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Ubu mu gihugu cy'u Rwanda aho waba uri hose wagerwaho n'imodoka wifuza ubwoko bwayo. Rero cyane cyane mu mujyi wa Kigali hari amasoko ndetse n'amaguriro yazo n'abakomisiyoneri babikoramo. Watumiza iyo wifuza.

Zimwe mu modoka zizwiho gutwara imfungwa n'abagororwa, ziba zanditseho inimeti zirindwa n'abantu bashinzwe umutekano w'imfungwa bazwi ku rwego rw'abacungagereza, rero ni byiza ko ziba zimeze neza zirimo n'umuyaga kugira ngo batabura umwuka.

Ubu biroroshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kuba wabona imodoka nziza kandi yizewe wahagura, niba uyishaka rero wakwegera abakomisiyoneri babikora mu buryo bwa kinyamwuga, bakayikurangira, ukayibona nawe.

Ukeneye imodoka y'inzozi zawe cyangwa ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose, wabagana abakomisiyoneri babikora mu buryo bwa kinyamwuga bakakurangira iyo ugura nziza kandi yizewe nta gihendo kirimo.

Hamwe na Akagera motors babafitiye imodoka nziza cyane zigurishwa ku giciro cyiza nk'icy'umuneke. Waba wifuza cyangwa se uyikeneye? Ni karibu babigufashemo mu buryo bwihuse.

Ntabwo bikigoye cyane kuba watunga imodoka y'inzozi zawe, hamwe na Nisani, ni uruganda ruzikora bakugezaho iyo wifuza yose kandi mu buryo butakugoye, itanahenze ku giciro wumva ko kiri hejuru.

Ubu biroroshye cyane aho waba uri hose haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze kuba wabona imodoka wifuza kandi nziza. Niba uyikeneye rero bagane babigufashemo kuyibona kandi byihuse nta kuguhenda.

Amabisi cyangwa se amakwasiteri, azwiho gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange zizwi nka dorone, ni imodoka zinyaruka kandi zikomeye, rero niba uyifuza muri iki gihe wayibona kandi itaguhenze.

Muri iki gihe biroroshye cyane, ntabwo bikigoye kujya kugura imodoka mu mahanga cyangwa hanze y'igihugu, kuko akagera muto babazaniye ya makamyo manini cyane yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa byambukiranya imipaka.

Amafaranga y'amanyamahanga, ni amwe muyafite agaciro haba m'u Rwanda ndetse no mu bihugu byabo, rero niba ushaka kuyavunjisha genda babigukorere ku buryo bwiza bataguhenze.

Igikorwa kijyanye n'ivunjisha. ni kamwe mu kazi muri iki gihugu cy'u Rwanda kagira inyungu nyinshi kandi kanatanga n'imisoro itubutse cyane, yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo mu gihugu cyacu ndetse n'iterambere.

Mu bikorwa bijyanye no ku kuvunja ndetse no ku kuvunjisha, ni hamwe mu hantu hagaragara amafaranga menshi cyane, ku buryo badindira no gukenera imashini bifashisha bayabara rero ni byiza kwirinda kwiba abakiriya.

Amafaranga inoti y'igihumbi y'Igihugu. Ashushanyijeho inzu ndangamurage ndetse n'inkende ku kindi gice, rero afite agaciro kanini kuko agura ibintu byinshi muri iki gihe.

Amafaranga afite agaciro tuzwiho gukoresha cyane cyane ni amadolari. Ubu ngubu ari kuvunjwa igihumbi na magana ane y'amanyarwanda, rero urumva kuyatunga ni ibintu byiza cyane, ntibaguhende niba uyafite.

Kera mu gihugu cy'u Rwanda, habagaho inoti y'igihumbi idasanzwe n'iy'ubu ngubu, rero uko iminsi yagiye ihinduka n'ibihe bihinduka, n'inote nazo bagenda zita agaciro hagakorwa izindi shyashya.

Imineke ni zimwe mu mbuto zigira umumaro mu buzima bwa buri muntu nko kumufasha mu igogora, mu bijyanye no kugira ubuzima buzira umuze ndetse n'ibindi byiza byose.

Akenshi na kenshi usanga mu makantine cyangwa mu maresitora aho bacuruza ibyo kunywa, bijyanye n'icyayi, amata cyangwa se igikoma, usanga biba biri mu materemusi, ndetse bafite n'amacapati meza cyane, aryoshye mu ifarini.

Muri iki gihe ndetse no kuva na kera, amata yari muri bimwe mu bicuruzwa by'ibinyobwa byari bifite akamaro mu buzima bwa buri muntu cyane rwose kandi ni byiza kuyanywa.

Uruganda rw'Inyange, ruzwiho kuba ari umushinga ushinzwe gutanga amata mu gihugu hose ndetse n'ibindi bintu by'ibinyobwa nk'amazi, amaji bifite intungamubiri nyinshi cyane.

Muri Kantine cyangwa se amaresitora ni ahantu ushobora kujya kwiyakirira mu gihe cyose waba wumva ushonje. Rero barakugaburira ibiryo byiza ndetse n'amandazi cyangwa amata.

Nawe kandi ubu wasanga ikiri muri ba bandi basigaye bicara bakanywa amazi mabi kandi ubu ntiwamenye ko Jibu yakuzaniye ayo kunywa meza cyane afite isuku n'isukura, ni ikaribu tuyaguhe ku mafaranga make cyane.

Amwe mu mazi yo kunyobwa azwi ku izina rya Nile akorwa n'uruganda rukorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi arizewe afite ubuziranenge, yarasuzumwe ku rwego mpuzamahanga ndetse n'ahandi hose.

Mu gihe umwana wawe akiri muto atarakura, ni byiza kumwitaho umugaburira indyo yuzuye, irimo ibyo kurya bifite intungamubiri zose ndetse n'ibyo kunywa higanjemo amata cyane cyane, kuko agira uruhare runini mu mikurire yiwe.

Ubu biremewe cyane kuba wakwishyura amafaranga yawe ukoresheje mu buryo bwa mobiro mani cyane cyane nko kuri betingi wandikamo ayo ukeneye bakaguha icyemezo ugahita wishyura mu buryo bwihuse cyane.

Ubu biroroshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuba wakwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga, niba rero ubishaka barabigufashamo rwose mu buryo bwihuse kandi bukunogeye, nta giciro kinini bigusabye neza cyane.

Ubu biroroshye cyane kuba watangira kwiteganyiriza cyangwa se uteganyiriza umwana wawe mu gihe akiri muto kuzageza akuze. Ibyo umubikiye bizamufasha kwishyura minerivare ndetse n'ibindi bikorwa agenerwa byinshi cyane.

Ubu muri iki gihe biroroshye cyane kuba wabitse amafaranga yawe wibereye mu rugo, kuko amabanki yose yagiye atuzanira uburyo bwa onorayini ushobora gukoresha ukabikora wihuse, bakakuguriza ndetse n'ibindi bikorwa kandi mu buryo bwiza.

Muri iki gihe banki zose zarabyoroheje, aho usanga wagenzura uko konti zawe zihagaze wibereye mu rugo iwawe utahavuye. Nawe wabyikorera rero muri ubwo buryo ihutishe uburyo ubonamo amafaranga ya...

Hamwe na momo peyi, ubu barakorohereza kuba wakwishyura ikintu icyo ari cyo cyose waba uguze mu buryo bw'ikoranabuhanga, rero niba ushaka kwihutisha gahunda zawe gira vuba babigufashemo.

Ubu ni uburyo bworoshye bwo kuba wakwishyura icyangombwa se cyangwa ikindi kintu cyose wadekaraye ku rubuga rw'irembo, rero bakwereka ahantu wandikamo nimero ugakandaho gusa, bagahita bagutera icyemezo ukabikora mu buryo bwihuse cyane.

Mu gihe byaba byanze kwishyura wakanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri ukabikora bikanga, ni byiza ko uhitamo karindwi kugira ngo urebe ibyaba biri pendingi, cyangwa se niba bitigeze bikunda.

Hamwe na Airtel ubu biroroshye cyane kuba wakwigurira iminota, interineti cyangwa se amayinite yo guhamagara, ukoresheje My Airtel App, birihuta kandi birabangutse mu buryo bwose.

Niba uri umucuruzi cyangwa se ukaba wikorera. Ni byiza ko wadekarara imisoro ukayishyura hakiri kare hatarajyaho amande, kuko iyo bagushyiriyeho ibihano bishobora guteza igihombo umushinga wawe.

Mu gihe cyo gusora cyangwa cyo gutanga imisoro, ni byiza kubanza kudekarara mbere yuko itariki zigera bataragushyiraho amande, ukareba neza niba nta kibazo cyaba kirimo, cyaba gihari ukagana ibiro by'akarere bishinzwe.

Ibigo bimwe na bimwe bikorera mu Rwanda, bitanga ubwishingizi ku binyabiziga, ibiribwa, amatungo ndetse n'ibindi bintu byose, niba nawe ushaka ko ibyo ukora bihagararirwa ni karibu bagufashe.

Ubu muri iki gihe ni byiza cyane kuba wiyicariye mu gikari iwawe, ugacunga uko amabanki ahagaze n'ibindi bikorwa byose bijyanye na interinete, rero babigufashamo muri tekinoroji y'iki gihe igezweho.

Bimwe mu byemezo bitangwa na leta. Harimo icyo kutaba umwenda w'umusoro leta. Rero niba ushaka gutangira bizinesi cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, iki cyanyangombwa baragikenera cyane.

Mu bijyanye no imisoro ni byiza kudekarara ndetse no kwishyura hakiri kare, kuko iyo urengeje igihe bagushyiraho amande, ashobora kukubera imbogamizi mu bucuruzi bwawe ndetse n'imikorere yawe bwite.

Muri iki gihe amafaranga y'amadorari afite agaciro cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda kuko usanga iyo uyazanye baguha igihumbi na magana ane y'amanyarwanda. Rero mu gihe uyafite ni byiza kudahindwa.

Amafaranga ni kimwe mu gikoreshwa muri iki gihe kigezweho cyane, kuko yifashishwa muri buri kimwe cyose, haba mu igura n'igurisha ndetse ni ubuzima bwa buri munsi, ni byiza rero kuyakorera.

Ni byiza mu gihe ugiye kuri forex biro, kubanza kukwereka urupapuro rw'uko ivunjisha rigiye rihagaze hagati y'amafaranga yo mu Rwanda ndetse n'andi y'amanyamahanga ashobora kuba yakoreshwa mu gihe runaka.

Ubu biroroshye cyane kuba wabona cyangwa wamenya uko ivunjisha rihagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ufite amafaranga y'amanyamahanga ukeneye amanyarwanda, wakegera ama forexbiru bakabigukorera mu buryo bwihuse.

Ubu mu gihuguhugu cy'u Rwanda biroroshye cyane kuba wabona amafaranga y'abanyamahanga cyangwa se amanyarwanda. Ni karibu rero ku maforesi biro atandukanye, aho akorera ibijyanye nabyo baragufasha kandi nta kukwiba.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde azwi nko kwitwa amarupi ni amwe muyafite agaciro kanini cyane kuri ino si, kuko ugereranyije n'amanyarwanda usanga ari hejuru cyane.

Amafaranga y'ibiceri akoreshwa kenshi na kenshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo hanze. Rero ni meza kandi usanga atagoranye kuyatwara, kuko aba ari make cyane.

Mu gihugu cy'u Rwanda ni hamwe mu hantu hazwiho kugira abantu bakora ibijyanye n'ivunjisha bizewe, kuko ntabwo bakwiba, baguha ku giciro cyabugenewe kandi cyiza cyane.

Mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze yarwo, hagiye hari amaforegisi biro, aho bifashisha mu bintu bijyanye n'ivunjisha, ufite amafaranga bakaba bayaguhindurira bakayaguha mu yandi y'ubundi bwoko kandi bataguhenze batanakwibye.

Ibijyanye n'ivunjisha ndetse n'igura n'igurisha ry'amafaranga y'amanyamahanga, usanga ahantu hose bihari. Nk'urugero muri Uganda, muri Bukavu, Kampala ndetse n'ahandi hose. Niba rero uyafite wabagana bakabigufashamo.

Foregisi biro ni hamwe mu hantu h'ingenzi mu gihugu cyane, kuko batanga ibijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga, ufite amanyarwanda bashobora kuguha amanyamahanga cyangwa se waba ufiteyo ayo hanze bakaguha ayo mu gihugu cyawe cyangwa ahandi hose ukeneye.

Zimwe mu nzu zizwi gukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bizwi nka foregisi biro, bakora igura n'igurisha ry'amafaranga, yaba ayo mu Rwanda ndetse n'amanyamahanga, ni karibu rero bagufashe kuba wakemura ikibazo cyawe.

Ese nawe waba ufite amafaranga y'abanyamahanga ushaka kuba wavunjisha mu Manyarwanda? Ni byiza cyane kuba wagana Forekisi Biro, kuko bakora neza mu buryo bwemewe, ntabwo bakwiba cyangwa se ngo babe baguhenda.

Bimwe mu bikoresho bibajwe mu mbaho, usanga ari byiza cyane, kuko byifashishwa mu gutaka mu rugo iwawe, cyane cyane muri saro ndetse n'ibyumba by'uruganiriro n'aho waburira.

Ibikoresho bikozwe mu biti, ni bimwe mu bintu bigira uruhare cyane mu rugo, kubera ko akenshi na kenshi iyo dukeneye guteka turabyifashisha ndetse no kwicara kandi no gutegura inzu zacu.

Ubu ahantu waba uri hose, ni byiza cyane kuba wakwigurira ibikoresho bikozwe mu biti kuko ni iby'ingenzi cyane, nk'intebe, ameza ndetse n'ibindi byose wabibona bitaguhenze.

Bimwe mu bikorwa bikoze mu mbaho no mu biti harimo intebe n'ameza, wabibona mu gihugu cy'u Rwanda aho waba uri hose ku giciro cyiza kandi bitaguhenze baranagutwaza nicyo cyiza cyabo.

Ubu mu gihugu biroroshye kuba wabona ibitanda byiza, intebe nziza, ameza ameza neza ndetse n'ibindi bintu byose bikoze mu mbaho, ni karibu rero bagufashe kuri buri kimwe cyose ukeneye.

Akenshi na kenshi mu biro usanga ari ahantu h'ingenzi cyane, ahantu wakirira umukiriya haba hagomba guhorana isuku, rero hari ibigo bishinzwe isuku n'isukura byagufasha mu kunoza serivisi utanga.

Mu Gihugu cy'u Rwanda ni hamwe mu hantu higanje amahoteri meza, aho iyo ugiye kubamo cyangwa se kwakamo icumbi ubonamo akayaga ndetse nta bushyuhe buba buhari.

Amwe mu mahoteli agaragara mu Rwanda cyane cyane ay'i Kigali, usanga afite pisine nziza zo kongeramo, aho umuntu wese wifuza kwivura amavunane, yajyayo rwose ahava yakize kandi ameze neza umubiri wose.

Bimwe mu bikoresho bikozwe mu biti bigufasha kurimbisha ubusitani bwawe, cyane cyane nk'intebe ndetse n'ibindi byinshi cyane, rero ni byiza kuba watumira abahanga bakahagukorera neza.

Muri salo yawe cyangwa mu rugo rwawe ni byiza kuba witegeye umusozi wo hakurya ndetse hari n'ururabo kandi hari n'ibiti byiza cyane kugira ngo ubone akayaga mu gihe k'izuba.

Mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kuhasanga hoteli nziza cyane kandi zakira abantu benshi. Niba ushaka kuba wahakorera ubukwe cyangwa se ibindi birori byose, genda ubukingemo imyanya myiza kandi y'ibanze.

Mu gihugu cy'u Rwanda ahantu henshi na heshi batanga ifite serivisi zitandukanye zaba izigenga se cyangwa iza Leta, ukunze kugenda usangamo ifoto ya hizegiserensi perezida Paul Kagame kuko agaragara nk'umuntu w'intangarugero mu gihugu cyacu.

Mu gihugu cy'u Rwanda ni hamwe mu hantu hari amahoteli meza cyane, wakwishimira kuraramo, kuba wariramo, ndetse no kuba wanyweramo icyo ushaka cyose, rero ni karibu bakwakire neza aho waba uturutse hose.

Igihugu cy'u Rwanda hari amahoteri amwe namwe agira uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu, kuko atanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo no gufasha abaturage muri rusange.

Muri iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda, hari amahoteli menshi cyane afite inyenyeri nyinshi, kandi yakira n'abakiriya benshi cyane, rero niba ushaka kuba wahabona icyumba cyo kubamo ni karibu babigufashamo.

Mu gihugu cy'u Rwanda niho hantu usanga ibikorwa remezo biteye imbere nk'amahoteri ndetse n'ibindi, rero ni byiza kuhasohokera ukahafatira ikiruhuko n'umuryango wawe kuko hameze neza cyane.

Amahoteli amwe n'amwe mu Gihugu cy'u Rwanda usanga afite pisine zo kogeramo zisukuye cyane harimo amazi meza ku buryo wanayanywa akaba atagutera ikibazo.

Mu tubari cyangwa se ahandi hantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no gupima inzoga, ni byiza ko bashyiramo televiziyo yifashishwa n'abakiriya, bareba amakuru cyangwa indirimbo mu gihe baje kubagurira.

Zimwe muri hoteli zigaragara mu Rwanda, hariho Sainte famille rero ni nziza cyane iraka neza amatara meza ndetse bagira n'ibyo kurya biryoshye cyane ni karibu rero ngwino wihahire icyo ushaka.

Radisoni hoteri ni imwe mu nzu zakira abakerarugendo cyangwa abakiriya muri iki gihugu cy'u Rwanda zihenda, kubonamo icyumba biba bigoye cyane kuko hajyamo abantu bifashije gusa.

Iyo witaruye umujyi cyangwa se agace ubona ko gashyushye cyane ukajya ku ruhande, ni ho ubona ibyiza byaho mu gihe cya nijoro kuko amatara yose aba yaka kandi neza mu buryo bugaragarira amaso.

Ubu mu gihugu cy'u Rwanda biroroshye cyane kuba wabona ubwishingizi bw'ibyo ukora ibyo ari byo byose, haba ari inzu, haba ari ikinyabiziga ndetse n'ibindi bintu byose, ni karibu muri Britam bagufashe.

Mu gihe ugiye kwaka serivisi ahantu runaka, ni byiza ko uyiguha mwicara murebana ariko mo hagati yanyu hakaba hari imeza ibatandukanye kuko ntabwo biba ari ngombwa kureba ibyo ari gukora.

Ubu Sanlam nawe yakorohereje, bakwishingira ibyo ukora ibyo ari byo byose, mu buryo bwihuse, niba ukeneye ubwishingizi bwiza cyane, wabagana bakabigufashamo nta nyungu nyinshi.

Mu bigo bikomeye bimwe na bimwe akenshi usanga bakora inama nko kuwa mbere ndetse no mu yindi minsi abayobozi bakuriye abandi. Rero ni byiza kuyitabira kuko bungukiramo byinshi ndetse n'intego igomba kugerwaho.

Waba ukeneye ubwishingizi cyangwa se abanyamwuga bishingira ibyo ukora? Wagana MUA bakagufasha mu bijyanye n'ubucuruzi, ibinyabiziga, imyaka, amatungo ndetse n'ibindi byose muri rusange.

Ubu ngubu biroroshye cyane kuba wabona inguzanyo hamwe na banki yitwa Equity, ibigufashamo mu buryo bwihuse cyane kandi ukazayishyura nta nyungu nyinshi zijeho mu gihe cyoroshye.

Ubu muri iki gihe banki zimwe na zimwe zavumbuye umushinga wo kukuguriza abantu mu buryo bwa mobayiro mani cyangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora urashobora kuba wiyicariye mu rugo iwawe, ukaka inguzanyo kandi ukayibona mu mwanya muto cyane.

Ese waba wifuza ibijyanye n'inguzanyo y'inzozi zawe, yaba iy'imodoka, yabo iyo kubaka inzu cyangwa se iyo gutangira bizinesi, hano rero baragufasha kuyibona mu buryo bwihuse kandi bubangutse karibu rero bayiguhe.

Mu ntara y'amajyepfo, mu gihugu cy'u Rwanda, akarere ka Muhanga, ni hamwe usanga higanje ibikorwa cyane cyane by'ubuhinzi buteye imbere, rero bigira uruhare runini mu iterambere ry'akarere, kuko birinda abaturage kwiba.

Muri iki gihe biroroshye cyane kuba wabona ya modoka y'inzozi zawe kandi ku nguzanyo, rero niba ubishaka wagana ababikora bakagufasha kuyibona bitakugoye, kandi ukazishyura amafaranga atariho inyungu nyinshi cyane.

Bimwe mu bigo by'imari cyangwa se amabanki runaka, ni hamwe mu hantu hizewe cyane hashobora kuba haguha inguzanyo yo kwiga ku munyeshuri wawe mu gihe waba wamuburiye minerivare, rero wabagana bakabigufashamo mu buryo bwihuse kandi ukazishyura ku nyungu nkeya.

Hamwe na Equity bank, muri iki gihe wabona inguzanyo wifuza kandi ku giciro cyiza. Niba uri umukiriya wabo bagane bagufashe mu kubona, kugurizwa kandi amafaranga menshi cyane.

Mu biro by'umuyobozi runaka, ushinzwe gutanga serivisi ndetse no kwakira abantu. Ni byiza kumanika ifoto ye ndetse ukandikaho n'icyo ashinzwe kugira ngo hatagira uyoba mu gihe aje abagana.

Ubu biroroshye cyane hamwe na banki mu mu gihugu cy'u Rwanda zishobora kuguha inguzanyo kandi mu buryo bwihuse waba ushaka kubaka inzu, kwishyurira umwana ku ishuri, ni karibu ngwino tubigufashemo uzabikora mu gihe gito cyane.

Ukeneye amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwawe, kubaka inzu cyangwa se gukora ibindi bikorwa nko kugura moto, imodoka, hamwe na BPR banki babigufashamo mu kubona iyo nguzanyo mu buryo bwihuse cyane, niba uyikeneye rero begere babigufashemo.

Ubu muri iki gihe biroroshye kuba wagurizwa wiyibereye mu rugo iwawe, ukoresheje telefone yawe niba ubishaka rero genda ufungure amakawuti ku mabanki atandukanye, bazabigukorere mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Abagore ndetse n'abakobwa muri rusange, usanga baragiye bibumbira mu makoperative ashinzwe kuboha uduseke, utwibo, cyangwa se utundi dukapu twifashishwa mu guhaha.

Ubu biroroshye cyane kuba wakwizerwa ugahabwa inguzanyo mu bigo by'imari bitandukanye. Bashobora kuguha iyi modoka, iy'inzu cyangwa se ibindi bintu. Ni karibu rero bagufashe urizewe.

BRD ni ikigo cy'igihugu gikora neza kandi gitanga serivisi zihuse, gifasha abanyeshuri ba kaminuza kuba babona inguzanyo zo kwigiraho ndetse n'amafaranga yo kubatunga mu gihe babirimo.

Zimwe muri banki zikorera mu Rwanda. Ni nziza cyane kubera ko zigufasha kuba wabona inguzanyo mu buryo bwihuse kandi ukaba wakwizigamira uhereye ku gishoro gito cyane. Rero ni byiza ko wabagana bakagufasha.

Mu mujyi wa Kigali ni ahantu cyane cyane Nyabugogo hakunze guteranira abantu benshi, kuko baba baje guhaha abandi bava, bavayo, bajya mu ntara mu bikorwa bitandukanye no mu bucuruzi.

Mu masoko cyangwa se amaguriro, akenshi na kenshi usanga higanje imbuto n'imboga cyane cyane nk'ibitunguru, sereri, amashu, karoti n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Mu gihugu cy'u Rwanda, mu masoko amwe n'amwe, usanga ibitoki ari kimwe mu gicuruzwa gikunda guhahwa cyane n'abantu benshi, kuko babikunda, ariko biranaryoha ku rundi ruhande cyane rwose.

Abakarani ni bamwe mu bantu mu gihugu cy'u Rwanda bashobora kuba bakorera amafaranga menshi kandi banabona akazi kenshi kuko nk'urugero iyo imodoka ziparitse, baza bahita bakora ntabyo kujya kubaza cyane.

Ubu ahantu hose wajya akenshi na kenshi wasanga imyenda y'ubwoko butandukanye, nk'amapantaro, amashati, amajampa, ushaka kubigura rero wahaza bakabiguhera ku giciro cyiza bataguhenze.

Mu masoko amwe n'amwe, mu turere dutandukanye ndetse no mu bice byinshi, usanga higanjemo imbuto n'imboga, nk'imineke, inanasi, amacunga, indimu n'ibinyomoro na wotameroni ndetse n'ibindi.

Mu masoko ndetse n'ahandi hantu bacururiza. Akenshi na kenshi usangamo ibiribwa by'ubwoko bitandukanye nk'ibitoki, ibirayi, amateke. Rero biba bidahenze, biri ku giciro cyiza, nawe wagerayo ukigurira.

Iyo ugeze mu mujyi wa Kigali, ubona inyubako ndende cyane kurusha izindi waba warigeze ubona, icyo ni kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gifite iterambere ryiza kandi rirambye.

Igitsina gore ni bamwe mu bantu usanga barihangiye imirimo itandukanye, nk'ubudozi bw'amakanzu akoze mu bitenge, ibikapu ndetse no kuboha utundi dukoresho twifashishwa mu ngo dukoze mu byatsi.

MTN imitakako ikoreshwa n'aba ajenti bayo, usanga igira uruhare runini mu kubarinda izuba ndetse n'imvura kandi n'akazi bakora, ikabaranga aho baba baherereye.

Mu mapapeteri cyangwa se mu masavizi senta ya MTN, aho twita mu mashopu. Aho bafasha abakiriya ku bibazo baba bagiye bagera muri konti zabo, batanga serivisi nziza kandi zihuse mu buryo bwiza.

Airtel ni umwe mu mirongo cyangwa mu miyoboro mu gihugu cy'u Rwanda yizewe cyane, aho itanga amainite menshi n'iminota myinshi, ndetse kuri poromosiyo utasanga ahandi, ni karibu rero, wabagana mu gihe waba ukeneye izindi serivisi.

Abakozi ba MTN mobayiromani, aba ajenti, ni bamwe mu bantu mbona barangwa no gukunda akazi bakora kandi bakagakorana umurava, rero ni byiza gutanga serivisi nziza kandi zihuse.

Bimwe mu bikorwa bitwibutsa umuco w'ubu ndetse n'uwa kera, ni ibiba biboshye mu byatsi runaka nk'inkangara, uduseke ndetse n'ibindi, rero hano MTN igenda itera inkunga bamwe mu banyabukorikori ndetse n'abandi bose babyifuza.

Kiyosike zizwi nk'iza MTN zikoreramo aba ejenti bayo, ni zimwe mu nzu z'ingenzi zifasha abakora uwo mwuga kwirinda mu gihe cy'imvura cyangwa cy'izuba kuko bibarinda neza cyane.

Aba ejenti ba MTN ba cyane cyane abakorera mu tuzu twa kiyosike, ni bamwe mu bantu bazwiho gutanga serivisi nziza kandi zihuse, kuko iyo ukeneye nk'amayinite cyangwa kubikuza, babigukorera mu kanya nk'ako guhumbya.

Zimwe muri kiyosike zikoreramo aba egenti ba MTN mobayiro mani usanga ari nziza cyane ziteye akarange keza kandi zibafasha mu bintu byinshi nko kubarinda izuba ndetse no kubikamo ibicuruzwa byabo bimwe na bimwe nk'amasharijeri cyangwa se amasimukadi.

Waba ukeneye za modoka zigufasha mu gutwara imyaka, ibiribwa, inyama cyangwa imbuto n'imboga ni karibu muri twiga bakwihera imodoka nziza cyane zigufasha muri ibyo bikorwa byose kandi mu buryo bworoshye.

Ese waba ukeneye bimwe mu bikoresho bikozwe mu mbaho nk'utubati, intebe, ameza, ibitanda ndetse n'ibindi bintu..... Ubu nabyo babyoroheje wabigura mu buryo bwa onurayini wibereye mu rugo iwa. Wowe jya muri apurikasiyo utumizeho babigukorere mu gihe nk'icyo guhumbya.

Hamwe na Kasha ni urubuga rwiza cyane ruteye imbere rugufasha kuba wagurisha cyangwa ukagura buri kimwe cyose wifuza, niba rero nawe wifuza kuba wahaha nti karibu rwose ngwino wihahire icyo ushaka.

Ubu hamwe na Kiku doti komu barabyoroheje cyane, wahatumiza igikoresho haba inkweto, imyenda, amasaha ndetse n'amatelefone n'ibindi bikoresho byose waba wifuza. Babikugezaho mu buryo bwihuse.

Ubu byaroroshye cyane kuba wahaha ikintu wibereye mu rugo i wawe kandi ukakikugezaho mu kanya nkako guhumbya ese waba ukeneye ibiribwa, imyambaro cyangwa se inkweto babyihutisha ako kanya bikaba bikugezeho.

Ubu mu Mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi mijyi aho waba uri hose, biroroshye cyane kuba wagezwaho derivari y'ibintu watumye, niba ari ibyo kurya ntugire ubwoba, babwire bakuzanire barakugeraho mu buryo bwihuse cyane kandi nta kiguzi cyo kubikuzanira.

Ubu biroroshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kuba watumiza ikintu wibereye ahantu aho ariho hose kandi kikakugeraho mu buryo bwihuse. Rero bagukorera derivari nta giciro baguciye nta n'iki, ari ukwishyura gusa icyo watumije.

Ubu kuba wakwihahira cyangwa wakwigurira ikintu wibereye iwawe barabyoroheje cyane rwose, ujya kuri interineti ugahitamo icyo ushaka bakakikugezaho mu buryo bwihuse kandi nta mafaranga ya derivari baguciye.

Waba wifuza inzu y'inzozi zawe cyangwa warayibonye ukaba uyikeneye, ubu ngubu Kabeza mu mujyi wa Kigali, irahari ya miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ,nziza cyane ni karibu ngwino wigurire.

Ubu muri iki gihe biroroshye cyane kuba wakwibonera inzu muri Kigali, iherereye muri Kigabaga kandi ku giciro cyiza cyane, ku gihumbi cyawe cy'Idolari wayibona ukajya wishyura ku kwezi.

Mu biro by'abayobozi ndetse n'abandi bantu abo ari bo bose, akenshi usanga hafite isuku kandi hanakora neza. Niba ushaka rero kugira aho ukorera heza wahamagara bimwe mu bigo bibafasha.

Biroroshye cyane kuba wakwibonera inzu mu Mujyi wa Kigali kuri miliyoni mirongo icyenda n'eshanu; wayigura ukayibamo ifite ubwiherero buteye imbere ndetse n'ibyumba byo kuraramo bimeze neza n'ubwogero, ni karibu wigurire.

Ubu biroroshye cyane, mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda, kuba wahabona inzu y'inzozi zawe, kandi wahoze wifuza kubamo, ku mafaranga make cyane, kuri miliyoni ijana na mirongo itatu wayegukana, ni karibu tuyiguhe.

Ubu biroroshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuba wabona inzu wigurira cyangwa ukodesha, ku madorari ibihumbi bibiri hano hari hari hari ku kwezi, ni karibu ngwino uyibone.

Biroroshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali kuba wabona inzu nziza ukodesha ku mafaranga make cyane. Niba uyifuza rero ugana abakomisiyoneri bakurangire inzu iherereye Kicukiro Kagarama, ku madorari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Ubu muri iki gihe, ntibikigoye cyane kubona inzu yo gukodesha, haba mu Rwanda mu mujyi no hanze yaho, ndetse nk'ubu urugero muri Kigali-Kanombe ubu hari inzu nziza cyane ikodeshwa y'ibyumba bine.

Ubu biroroshye cyane mu mugi wa Kigali wabona inzu nziza y'inzozi zawe ku mafaranga angana n'amadolari ibihumbi bibiri, ukiberamo ndetse wowe n'umuryango wawe, ni karibu tukwihere aho kuba heza kandi hakunogeye.

Ubu mu gihugu cy'u Rwanda mu Mujyi wa Kigali biroroshye cyane kuba wabon inzu y'inzozi zawe yo gukodeza cyangwa se yo kubamo, niba rero uyifuza ni karibu ku bakomisiyoneri babikora by'umwuga babigufasha.

Ubu muri Kigali ahazwi nk'i Kanombe wahabona inzu nziza cyane y'inzozi zawe kuri miliyoni mirongo inani n'eshanu, kandi urumva ni ku giciro nk'icy'umuneke ni karibu wigurire.

Ubu ngubu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, biroroshye cyane kuba wabona inzu ukodesha kuko ahantu hose ziboneka, rero ni karibu mwikodeshereze ku mafaranga make cyane.

Ubu biroroshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu mugi wa Kigali, kuba wabona inzu nziza cyane y'inzozi zawe yo gukodesha. Ku mafaranga make atarenga ibihumbi magana atandatu. Ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu ndetse ni muri Kagarama.

Mu mujyi wa Kigali biroroshye cyane kuba wabona inzu ukodesha ku giciro cyiza, kandi i Kanombe mu mujyi, ibyumba bine, ubwogero butatu, ku mafaranga yawe y'ibihumbi magana atanu ku kwezi ni karibu tuyiguhe.

Ubu biroroshye cyane kuba wabona inzu mu gihugu cy'u Rwanda aho waba uherereye hose ukodesha, niba uyishaka rero hari abakomisiyoneri babikora mu buryo bw'umwuga kandi bizewe, igihe icyo ari cyo cyose wababona.

Ubu biroroshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuba wabona ni inzu wikodeshereza ku kwezi iguca amafaranga macye cyane atarenga ibihumbi magana atandatu kandi ifite ibyumba bibiri, saro ebyiri ndetse n'ubwogero bubiri, muri Kibagabaga i Kigali.

Amwe mu maguriro acuruza inkweto, imyenda, ibikapu ndetse n'ibindi, usanga ateye imbere cyane ku buryo utapfa kumenya, kuko bigira inyungu nyinshi mu mikorere yabo ya buri munsi.

Mu mashopingi marizi cyangwa ahantu bagurira ibintu bitandukanye, hagira uruhare runini cyane mu iterambere ndetse n'ubukungu bw'igihugu kuko batanga imisoro itubutse yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo.

Amasoko ndetse n'amaguriro usanga ari ahantu h'ingenzi mu gihugu hagira uruhare mu iterambere ryacyo ndetse n'umuturage muri rusange, nk'urugero usanga batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo ndetse n'ibindi bintu byose biba bikenewe.

Mu tubari cyangwa se mu maguriro aho bacururiza inzoga n'ibindi bintu byo kunywobwa. Usanga ari ahantu ari heza cyane kurusha aho bacururiza ibyo kurya, kuko abantu benshi bakunda kuhiyakirira.

Amalimatasiyo n'amasuperimalishe ni hamwe mu hantu h'ingenzi mu gihugu cyacu cy'u rwanda hava ubukungu bunini cyane, kuko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka iterambere ry'igihugu kandi batanga n'akazi ku bantu.

Ikarita ya mituwele do sante ni imwe mu bintu bifite umumaro munini ku baturarwanda muri rusange. Kuko ibafasha mu kwivuza bitabahenze kandi binihuse.

Gahunda ya ejo heza mu Banyarwanda, ni sisitemu nziza cyane ifasha buri muntu wese kwizigamira akazagobokwa ejo hazaza, kuko ni byiza cyane gusaza kandi ugasazira mu masaziro meza.

Mu masupamaketi ni ho hantu honyine ushobora gusanga igicuruzwa cyose wifuza. Nk'urugero se ushobora kuba ushaka umugati, amandazi cyangwa se ibindi bintu bikorwa mu ifarini. Wagerayo rero ukigurira.

Amarimatasiyo cyangwa se amasupamaketi, ni hamwe mu hantu h'ingenzi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, hagira uruhare runini mu kubaka ibikorwaremezo bifasha abaturage kuko batanga akazi buri muntu wese akabona kwitunga.

Ubucuruzi bwa arimantasiyo cyangwa se amasupamaketi, ni bimwe mu bikorwa bigira uruhare runini mu iterambere ry'Igihugu, kubera ko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo.

Amasupamaketi ndetse n'andi masoko yose akomeye ni hamwe mu hantu h'ingenzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko hagira uruhare runini mu iterambere ry'abaturage ndetse ridasize n'iry'imibereho y'abantu.

Mu ma supamaketi, ni ho hantu honyine ushobora kuba wahasanga buri kimwe cyose wifuza cyaba igikozwe mu mafarini ndetse n'ibindi; rero ni karibu wihahire ku giciro cyiza.

Amaguriro cyangwa se amasoko, ni hamwe mu hantu hingenzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko hatanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo, kandi akanakora n'ibindi bintu byinshi cyane biba bikenewe n'abaturage.

Ama supamaketi ni hamwe mu hantu ushobora gusanga ibicuruzwa by'amoko, habamo imbuto n'imboga, ibiribwa ndetse n'ibindi byo kurwa, ni karibu rero tuguhe buri kimwe cyose wifuza kandi ku giciro cyiza nta kuguhenda.

Amasupamaketi n'amavuriro, ni hamwe mu hantu hafite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, kubera ko abaturage babona ibyo bakeneye ku gihe, kandi bagatanga n'imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo, mu gihe runaka bikenewe.

Mu masoko ndetse no mu ma supamaketi, ni ho hantu usanga abacuruzi bateye imbere cyane, rero ni byiza kujya guhahirayo kuko bagira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Supamaketi ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda bigira uruhare mu iterambere kubera ko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo birambye kandi by'ingenzi mu mibereho y'ubuzima bw'abaturage.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amarimatasiyo n'amasuperimarishe bifite uruhare runini cyane mu kugezaho iterambere Abanyarwanda ndetse n'ibikorwaremezo byiza kuko batanga imisoro yifashishwa mu kubyubaka.